Igihingwa cy'ibisheke ni igihingwa gihingwa mu Rwanda, ibisheke birasa neza, iyo bimaze gukura turabica tukabirya, ibindi tukabijyana mu nganda bikavamo isukari tunywa mu gikoma no mu bindi binyobwa bitandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'imboga buri mu bwoko bw'imboga z'amashu, aho babuhinga bwamara kwera bakabusarura basoroma amababi yabyo, barangiza bakabiteka kugira ngo birinde indwara, ndetse bagire n'ubuzima bwiza igihe cyose.

Iyi ni imiti ivuraga gakondo kandi imiti buri wese yashobora kuyibonera. Ni imiti myiza, turayikunda. Itumaga tutarembera mu rugo kandi idufasha kwivura vuba.